Icyapa gitukura kirimo umugore ufite imisatsi ya shokora yambaye umupira w'ubururu handikishijwe inyuguti z'umweru.

Umukobwa wambaye ishati y'ubururu n'agapira bisa ipantaro, arimo araseka uko bisa arimo aramamaza ibintu runaka.

Umukobwa n'umusore bicaye mu modoka bafatanye kurutugu, bambaye imyenda y'umweru bari mu muhanda muremure ufite imirongo y'umuhondo n'umweru.

Urupapuro rw'ubwishyu muri banki runaka ruriho amazina ndetse n'ifaranga agiye kwishyurwa n umubare wbangaga wa nyiri kwishyura.

Umukobwa n'umugore bahagaze bari kuganira ahantu hari imifuka igiye itandukanye n'ibikoresho, bigaragara ko aha hacururizwa ibyo bintu.

Ikibumbano cyambaye umwenda mushyashya, iyindi iri mu kabati ndetse n'inkweto, uko bisa aha ni mu isoko ricururizwamo imyambaro.

Umukobwa wambaye umupira uri mu ibara ry'umuhondo, ipantaro y'umweru afite terefone mu ntoki ze, imbere ye hari imeza iriho imashini n'igikapu bigaragara ko aha bacuruza imyenda.

Inkweto nyinshi zitandukanye, ziri mu tubati, imyenda imanitse hejuru y'abari n'abategarugori, uko bisa aha bacuruza imyambaro.

Ibibumbano byambaye imyenda mishyashya, n'indi hirya imanitse, bigaragara y'uko iki cyumba gicururizwamo imyambaro yo kwambara.

Aha hacururirizwa imyambaro n'imitako yaba iyo mu rugo ndetse n'iyo ku mubiri kuko haragaragara imyenda, amashati ndetse n'imiringa bimanitse,

Imyambaro igaragara nkaho yambarwa n'abategarugori ndetse n'abari uko bisa aha hakaba hacururizwa ibyo bigurishwa bimanitse aho ngaho bifite amabara agiye atandukanye.

Ikote rimanitse ryambawe n'ikibumbano rifite imirongo ihagaze n'itambitse mu imbere hakabamo ishati y'ubururu bwerurutse bigaragara yuko riri ku isoko rigurishwa.

Imodoka nziza iri mu ibara ry'umweru, yanditseho inyuguti ya ha imbere, iri mu nzu y'ibirahure bigaragara yuko ari nshyashya iri ku isoko igurishwa.

Abagabo babiri bambaye amashati y'ubururu bwerurutse, bafite igifunguzo kinini gikozwe mu gipapuro, inyuma yabo ahagaze imodoka itwara abagenzi, uko bisa ni impano umwe muribo ahawe.

Imodoka iri m'ibara ry'umukara n'uturongo tw'umweru, ihagaze ahantu nta biyiranga ifite uko bisa iracyari nshyashya ishobora kuba iri ku isoko.

Abagabo babiri ndetse n'umugore umwe bateruye umwana mu ntoki zabo bafite ikintu kimeze nk'igifunguzo, hirya yabo hari imodoka isa umukara ndetse n'inzu yanditseho inyuguti hejuru yazo.

Ishusho igaragaza imodoka y'umukara, iriho akantu k'umweru, hejuru hagaragara amagambo ari mu ibara ry'icyatsi, umutuku n'ubururu, bigaragara ko igurishwa.

Abagabo babiri bafashe urufunguzo rukozwe mu gipapuro rumwe. Inyuma yabo hahagaze imodoka y'umweru itwara imizigo, uko bisa umwe muri bo ni impano ahawe.

Imodoka iri mu ibara ry'umukara iparitse ahantu hamwe idafite ibirango, uko bigaragara iracyari nshyashya iri ku isoko iragurishwa.

Ibinyabiziga byinshi bihagaze ahantu hamwe imbere hakaba igifite ibara ry'umukara kidafite ibirango bigaragaza yuko ari bishyashya biri ku isoko bigurishwa

Ikinyabiziga giciye bugufi kiri mu ibara ry'umukara kidafite ibirango kigaragara nk'aho kiri ku isoko amafaranga angana na miliyoni cumi na zirindwi.

Akaguru n'umuntu wicaye imbere ye hari imeza y'ibirahure ndetse n'agacupa karimo amazi n'ikinyamakuru, hirya hari imodoka zisa umweru nk'aho ari nshyashya.

Abagabo babiri bahagaze; umwe muremure, undi mugufi ubyibushye. Bafashe ikintu gisa nk'urufunguzo. Hirya yabo imodoka y'umweru nziza.

Abakobwa babiri bambaye imyenda y'umweru n'ubururu bwerurutse bafunguye imiryango y'ikinyabiziga gisa umukara gishyashya.

Imodoka zirenze imwe zihagaze ahantu hamwe zifite ibara ry'umweru, handitseho amagambo asa ubururu. Imbere yaho hari abagabo babiri, umwe ubyibushye, undi unanutse.

Umugabo wambaye akagofero gasa ibara rya roza, ishati y'umukara ndetse n'ipantaro, akaba akoze ku modoka yirabura, ibirahure byiza cyane uko bisa iki kinyabiziga kikaba ari ike.

Abagabo babiri bambaye amashati n'amapantalo n'udupfukamunwa bahagaze imbere y'imodoka y'umukara, bafite ikintu mu ntoki gisa nk'urufunguzo.

Umugabo wambaye ikote ry'umukara, Agapfukamunwa ishati y'umweru ,ibirahure mu maso ari gushyira umukono, k' urupapuro kugira ngo bamuhe amafaranga uko bisa yaje kubikuza.

Umugabo wambaye ishati y'umweru wicaye imbere ya mudasobwa, undi amureba mu mu maso uko bisa ashobora kuba hari icyo yaje kumusaba ngo amukorere.

Akuma k'ikoranabuhanga gakoreshwa karimo karabara amafaranga ku buryo bwihuse kandi bwizewe, gakoreshwa n'abakora muri banki.

Igiceri cyanditseho banki nkuru y' u Rwanda ibihumbi bibiri n'ikenda kiriho insina n'igitoki

Urupapuro rufite amabara y'icyatsi ndetse n'ubururu hakaba handitseho umubare rimwe n'amazeru atatu, ndetse yuko igaragaza yuko ari inote, y'igihugu cy'u Rwanda.

Inzu ifite imiryango migari y'ibara ry'ubururu, hejuru hariho icyapa cyandikishijwe inyuguti z'umweru n'icyatsi, bigaragara ko aha bacuruza amata.

Akabati karimo udukombe turimo ibiryo, hirya imineke bisa nk'aho bacuruza ibiryo bigiye bitandukanye by'amafunguro menshi atunganyije.

Akabati gakozwe mu birahure karimo ibyo kurya, imbere yako hari imeza y' umweru, inyuma hakaba amata ari mu makarito, n' amacupa y'amazi n' aya ji.

Intoki zifite umugati ,imbere hateretse ikirahure kirimo amata kumeza n'ikaramu n'indobo isa umweru kuruhande.

Utubati tubiri kamwe karimo amata n'amazi akandi hakabamo ibikombe bikozwe mu birarahure n'amasahani, hejuru idobo birimo amandazi.

Umugore uhagaze uri kuvugira kuri telefone imbere ye hari imeza isa umweru, akabati karimo ibyo kurya. Hirya hari amacupa arimo imitobe, igikuta gisa ubururu.

Ikiganza gifashe agakombe gasa umweru n'umukara, hariho amagambo n'inyuguti zandikishijwe umutuku ndetse n'inkeri ifite utuntu tw'icyatsi.

Ibirahure birimo amata biteretse kumeza bifite amabara y'ubururu hirya hari akabido kera, ugarutse hino ukahabona intebe isa umweru, bityo bikaba byumvikana yuko umuntu wese wumva waba afite inyota ashobora kwifashisha iki kinyobwa kiri hano ngaha.

Umukobwa wambaye ikote ry'umukara n'ijipo y'umweru ahagaze impande y'umugabo wambaye umupira wirabura, bareba ahantu hari amata n'imigati yo kurya.

Abakobwa babiri bambaye imipira y'ubururu, bahagaze inyuma y'icyapa gisa umukara cyandikishijeho umweru inyuguti, hejuru hari udukarito tumwe na tumwe.

Amagi ari mu kabati agera ku mubare w'icumi akaba akoreshwa aribwamo nk'umureti cyangwa bayatogosheje akaba agira intungamubiri nyinshi mu buzima.

Uru ni urubuga rukorera kuri murandasi ndetse n'ikoranabuhanga aho ushobora kohereza kwakira amafaranga mu buryo bwihuse bitagusabye kuva aho uri, hariho ifoto y'umugore ndetse n'umugabo urabona ko bishimye ari ibintu byiza cyane.

Ibiganza bine bigiye bifashe ku noti bigaragara yuko barimo barahererekanya amafaranga, umwe muri abo yambaye umupira w'umweru, intoki z'abazungu.

ibipapuro bisa icyatsi, ubururu bwerurutse umutuku werurutse birimo amashusho agiye atandukanye inzovu abantu bisa nkaho ari amafaranga y'ibihugu runaka.

Amafaranga ari mu bice ariko agiye atandukanye mu mabara ndetse no mu ndimi bigaragara y'uko ari ay'ibihugu bigiye bitandukanye.

Umugabo ufite uruhara wambaye umwenda w'ubururu bwijimye na oranje, ari kwandika ku cyapa imibare itandukanye ku madarapo y'ibihugu by,

Abagabo babiri n'umugore umwe usa nkaho akuze yambaye imyambaro y'umukara hose n'umweru undi umutuku hejuru handitse ko bagurana amafaranga.

Abagabo babiri ndikubona umwe wambaye imyenda y'ubururu nakana bafashe kugipapuro kigaragara yuko ari igihembo gihabwa uyu muto uri hano.

Icyapa kiri mu ibara ry'ubururu cyandikishijweho inyuguti z'umweru. Ma, o, na, e, ya, e, ca, ha, a, na, ga, e.

Abagabo babiri bari kumwe umwe yambaye umupira wa oranje imbere ye hari ibikapu bibiri umukara ndetse n'umutuku. Bakaba batandukanyijwe n'imeza ifite imirongo y'ubururu n'umweru.

Abagabo batatu bahagaze, umwe yambaye ijire y'umuhondondo, ishati y'umweru, ipantaro ya shokora, bareba imbere.

Icyapa kigaragaza ko aha bahavunjishiriza amafaranga, uramutse ushaka andi atari amanyarwanda uraza bakaguhindurira.

Intebe ikoze mu rubaho isize amabara ya shokora ikagira imisego y'umweru yicarwamo n'abana ndetse n'abantu bakuru kubishaka bose.

Imeza nziza ikozwe mumbaho no mu kirahure iri kumwe n'intebe zayo zigurishwa ahangaha bakaba bakora ibikoresho byo mu rugo bikozwe mu biti.

Akabati gakozwe mu mbaho kabikwamo ibikoresho bigiye bitandukanye, kakaba gafunguwe kagaragaza umwanya uri hagati. Wagasanga murugo ndetse no mu bigo by'amashuri.

Intebe zigera ku mubare wa kane ndetse n'ameza ari hagari yazo uko bisa akaba ari uruganiriro ndetse bikaba byashoboka yuko bahafatira amafunguro nk'umuryango cyangwa hakabera inama runaka.

Intebe eshatu z'imisezo zizengurutse imeza imwe ikozwe mu mbaho inyuma hari igikuta cy'umweru.

Intebe nziza zo mu ibara ry'ubururu n'utumeza twazo zihagaze mu mbuga uko bisahamo bacuruza ibikoresho byo muri saro.

Imeza imwe iri hagati y'intebe zigera ku mubare wa kane, hejuru yaho hari igare risa umukara, hirya hakaba hari moto iriho umugabo yegeranye n'imodoka isa umweru.

Ahantu hari intebe nyinshi ziri mu ibara rya oranje n'ameza amwe asa umweru, bigaragara ko aha bahacururiza ibikoresho byo mu rugo bikoze mu mbaho.

Ameza ari hagati y'itebe zisa umukara ari hejuru ku gisenge, bigaragara yuko ariho abantu basohokera baje kuruhuka.

Inyubako nziza ndende ziri mu ibara ry'umweru zigerekeye gatatu kane hanze hashinze imitakaka irimo udutebe hirya hakaba amazi magari.

Inyuguti ziri kumuhanda zandikishijwe amabara y'umweru ndetse n'ay'umutuku. Bikaba byakoze ijambo rimwe rifite ubusobanuro runaka. Hejuru hakaba hashinze ibyuma bihagaze.

Inyubako ndende igerekeye kane iri kwaka amatara, bigaragara yuko ari amacumbi abantu baza kuruhukiramo kandi bakaba banararamo ku bishaka.

Inzu igereketse, nziza, iri mu ibara rya roza, yubakishijwe n'ibirahure, hanze hashinze imitaka irimo udutebe twicayeho abantu n'amazi hafi aho.

Imitaka myiza ifite ibara ry'ubururu bwijimye, mu nsi hakaba hari intebe ziruhukirwaho zifite udusego tw'umweru n'umukara, amazi maremare meza cyane.

Intebe z'umukara ziri ahantu hatukura, amameza yambaye ibitambaro bifite ibara ry'ubururu bwijimye, hejuru hariho uducupa tw'amazi bisa nkaho haberamo inama.

Umukobwa wambaye umupira w'umweru, ipantaro y'umukara, ingofero mu mutwe uri gutambuka. Hirya ye hari intebe zikozwe mu mbaho ndetse n'ameza. Hino hakaba hari indabo zitandukanye.

Icyumba cyiza kirimo intebe nziza n'ameza, ndetse n'ibitambaro biri mu madirishya, bigaragara yuko aha ari amacumbi baruhukiramo, abantu banasohokeramo.

Inyubako ndende zirenze imwe zifite amabara y'umweru hagati hakaba hari ibyatsi ndetse n'igiti zikaba zizengurukijwe n'ibyuma bisa umukara bigaragara yuko ari amacumbi.

Amasaha y'ijoro amatara ari kwaka aha hakaba inyubako ndende bigaragara ko ari amacumbi abantu bashobora kuraramo cyangwa se bakaruhukiramo.

Amatara yo mu muhanda ategeka abatwazi ibyo gukora, iry'umutuku risobanuye guhagarara, irya oranje rikavuga kwitegura, naho iry'icyatsi kugenda.

Iyi nyubako yanditseho amagambo agaragaza yuko aha batanga ubwishingizi bw'ibikorwa yaba iby ’ umuntu cyangwa se iby'abantu bishyize hamwe.

Inyubako igerekeye iriho icyapa kigaragaza yuko aha batanga ubwishingizi ku bikorwa byawe bigiye bitandukanye ndetse n'umuryango.

Inyubako ndende itatswe n'amabara y'ubururu, imbere yaho haparitse imodoka y'umutuku n'iy'umukara. Hino hari icyapa gisa...

Icyumba kirimo intebe z'ubururu bwijimye zizegurutse ndetse n'iz'umukara zicaweho n'abagabo abandi babahagaze imbere bambaye imyenda y'ubururu hakaba hatatswe n'amabara y'umutuku na rosa.

Imeza ikozwe mu birahuri ndetse n'imbaho, iteretse ahantu hari ibikuta by'umweru, hariho amashusho. Inyuma yaho hari intebe isa umukara ndetse n'imashini zigiye zitandukanye.

Icyapa gisa ibara rya shokora , kiriho abantu babiri, umukobwa n' umuhungu wasetse, bambaye amakote umukara n' ubururu ,amashati y' umweru.

Umukobwa ukiri muto wambaye ikote ry'ubururu bwerurutse umupira w'umukara, ipantalo yirabura arimo araseka mu mutwe harimo agatambaro inyuma ye haragaragara ikinyabiziga uko bisa ari kugishushanyo.

Icyapa akiririho umukobwa ufite telefone mu ntoki uri guseka yifashe ku munwa inyuma ye hakaba inzu nziza y'amabara y'umweru bigaragara y'uko ari inguzanyo itangwa ku bayishaka.

Abantu benshi bicaye ku ntebe z'umweru, ameza ariho ibitambaro by'icyatsi, bari kureba imbere uko bisa; bari mu nama n'abayobozi babo.

Umusore ateruye umukobwa wambaye imyenda y'iroza ari guseka afite imisatsi myinshi, inyuma yabo hari inyuguti zandikishijwe amabara ya orange.

Icyapa gifite ibara ry'ubururu cyandikishijweho inyuguti zisa umuhondo, icyatsi n'umweru hariho intebe ndetse n'umukobwa ukiri muto wambaye ishati yirabura n'umusatsi mwinshi.

Umugore uhetse umwana mu mugongo, wegereye ikimeza kiriho amashu menshi, inyuma ye, inyanya ndetse n'izindi mbuto zitandukanye.

Isoko ririmo ababyeyi n'aba mama ricururizwamo inyanya, ibitunguru n'ibirungo byo mu mboga.

Amashaza ari mu ibase hirya akaba imineke, inyanya ifu ibishyimbo n'umuceri, uko bisa aha bahacururiza ibyo kurya.

Aba mama babiri bahagaze bambaye amashati asa hasi yabo hicaye undi w'ikanzu y'ubururu n'igitambaro cy'umuhondo imbere ye hari ibitebo biriho imbuto zitandukanye.

Umugore usa nkaho akuze yicaye, yambaye igitambaro mu mutwe gifite ibara ry'icyatsi. Imbere ye hakaba hari imbuto ndetse n'imyumbati uko bisa akaba acuruza ibyo kurya ariko akaba akorera ku muhanda.

Umusore uhagaze wambaye umupira w'umukara, urimo amabara y'icyatsi inyuma ye hakaba abakobwa n'abagore barimo baradoda, uko bisa bakora umwuga w'ubudozi bw'imyenda.

Aba mama babiri bambaye igitambaro mumutwe, umwe usa nkukuze undi muto, bari gutunganya amagi imbere yabo n'imboga.

Inyubako z'ibisenge birebire bisa ubururu, hanze hari abantu benshi bigaragara yuko ari mu isoko ry'imboga n'ibindi bintu.

Umuhanda urimo abantu benshi ibinyabiziga bihagaze nka moto ziriho abantu bambaye amajire y'ubururu n'umuhondo n'utugofero dutukura.

Imyenda imanitse n'imitako myinshi bigaragara ko aha hacururizwa iby'agaciro, imiringa ndetse n'ibyo kwambara.

Umukobwa wicaye afite urubuto rw'avoka mu ntoki ye hirya hakaba amacunga inyuma inyanya ndetse n'imineke uko bisa ari mu isoko.

Abakobwa bicaye ahantu hasa nkaho ari mu isoko ry'imboga n'imbuto bakaba bacuruza cyangwa se ari abaguzi babyo.

Umukobwa wicaye yifashe kumatama, yambaye agatambaro mumutwe gafite amabara y'umukara ndetse n'umweru, imbere ye hakaba hari ibitebo birimo, inyanya, imyembe, ubunyobwa, uko bisa acuruza imbuto n'imboga.

Ishusho igaragaza umumama n'umukobwa bafite imbuto z'iyembe, bari gushyira mu mashashi, bisa nk'aho umwe agurisha, undi agura.

Umukobwa uri ahantu hari imitako yo mu nzu yo ku maboko n'imiringa, yambaye imyenda y'umutuku, ipantaro y'ubururu bwijimye, bisa nk'aho bacuruza ibikoresho.

Ibyuma bifite ibara ry'ubururu, imbere yabyo hari abagabo n'abakobwa bari gutambuka, umwe muri bo yambaye ishati ndetse n'ipantaro, undi umupira wa roza, hakaba hari inkweto zimanitse.

Umugabo wambaye umupira w'umuhondo wanditseho gura utsinde yicaye ku igare bamuhayemo impano.

Umukobwa uhagaze n'abandi batatu bicaye bambaye imyenda y'umuhondo, imbere hari akabati kabatandukanya.

Urupapuro ruri mu ibara ry'umuhondo rwandikishijeho inyuguti z'umukara, hariho amazina y'umuntu rugaragara nk'aho barwishyuriraho.

Abagabo batanu bahagaze bambaye imyenda y'umuhondo irimo uturongo tw'ubururu ndetse n'amapantalo y'umukara, hirya hari umugore urimo uragenda ufite ibirahure mu maso asa nk'uvuye guhaha inyuma hakaba icyapa.

Icyapa kiri mu ibara ry'umuhondo cyandikishijweho inyuguti z'umukara, ikigaragaza ko aha uhaha ukishyura ukoresheje ikoranabuhanga ku buntu.

Umugabo wambaye umupira usa ibara ry'icyatsi, hariho udufungo tw'umukara, afite ubwanwa, mu ntoki ze harimo terefone ndetse n'ikarita, imbere ye turahabona inyanya ziri mu dusorori tw'ubururu.

Akazu gatoya gafite amabara y'umuhondo handikishijweho inyuguti zigiye zitandukanye izisa umutuku ndetse ni ziri mu ibara ry'ubururu hirya hahagaze umugabo uri kuvugira kuri telefone.

Inyubako ndende itatswe n'amabara oranje n'ubururu bwijimye ,munsi yaho hakaba haparitse ibinyabiziga bitandukanye, amamodoka matoya n'amanini ndetse n'amamoto.

Abagabo babiri bahagaze, umwe ari kureba muri telefone, yambaye ishati y'umweru, ipantaro y'umutuku, inkweto z'umukara, hirya yabo hari moto yirabura, ifite agakarito karimo amabara y'icyatsi. Undi yambaye ingofero.

Ishusho igaragaza hanze haparitse y'imodoka isa ubururu, mu muryango hakaba ibibumbano byambaye imyambaro uko bisa hacururizwa imyenda.

Abakobwa babiri bafite agakarito gasa umutuku n'umweru handitseho umubare gatanu na zero bakaba bari guseka bisa nk'aho bishimye umwe yambaye umupira w'umutuku undi uw'icyatsi.

Ikinyabiziga kigendera ku mapine abiri asa umukara gifite ibara ry'umutuku n'ibirahure hejuru hakaba hariho akantu kameze nk'agakarito gasa icyatsi inyuma umuhondo.

Icyumba kinini kirimo kirakamo itara ibikuta by'ivu igitanda cya shokola, matola n'imisego by'umweru, akabati kerurutse.

Iyi ni inzu nziza isize amabara y'umweru impande zose n'amatara yaka mu buryo butandukanye, harimo umugabo wambaye ishati y'uturongo n'ipantaro ijya gusa ubururu n'inkweto zijimye afashe ku meza yo mu mbaho.

Inzu igaragaza yuko ari amacumbi akodeshwa, agizwe n'ibyumba bibiri kandi byiza, aherereye mu mujyi wa kigali iremera.

Umugabo usa nk'aho akuze yambaye ijire irimo ibara ry'icyatsi, umweru ndetse n'umukara n'ipantalo yirabura ahagaze mu muhanda w'ibitaka hirya hari imirima inyuma ye ukahabona inzu ifite amabati ya oranje.

Inzu nziza y'imiryago y'umuhondo, itakishijwe amabara y'umweru, icyatsi cyerurutse ndetse n'umukara, igurishwa.

Umukobwa wambaye ishati y'umweru n'ipantaro ya kaki, uhagaze mu mbuga ngari. Inyuma ye hari imodoka nyinshi zitandukanye, iy'umweru, iy'umukara ndetse n'inyubako ndende cyane.

Inzu nziza iri ahantu hari imbuga nini, itatswe n'amabara y'iroza, ibisenge by'umutuku, isa n'aho iri ku isoko, igurishwa.

Inyubako nziza ifite ibara ry'ivu, amadirishya y'umukara, urugi rwirabura, ikaba iherereye ahantu heza hari amakaro, ikirere kiza, amatafari ahiye atukura.

Inzu nziza cyane ikiri nshya. Iyi nzu iherereye Gacuriro mu Mujyi wa Kigali. Iyi nzu ikodeshwa ibihumbi bitatu by'Amadolari ku kwezi.

Umugabo wambaye umupira w'umukara n'ipantaro yirabura, ahagaze imbere y'inzu ndende yubakishijwe ibirahure. Itatswe n'amabara y'umweru ndetse na oranje n'ivu.

Ishusho igaragaza imirima ikase muduce dutandukanye yo guhingamo, ivuga yuko hagurishwa ku bantu bahakeneye.

Inzu ndende yubakishijwe amakaro, ifite amabara y'icyatsi n'umuhondo n'ubururu bwijimye. Iherereye ahantu heza hashashe amabuye ndetse n'igipangu cy'ivu.

Inzu ifite imiryango y'umukara hanze yateretse udutebe twiza yanditseho ko ikodeshwa ku munsi umwe kubakeneye kuruhuka.

Ahantu hamanitse imyenda myinshi y'abana, iy'abagabo, y'abagore, n'iyindi irambitse ku kimeza hagaze abama bari gutoranya, uko bisa mu isoko ry'imyambaro.

Uyu ni umukobwa usa nkaho akiri muto yambaye neza ku myambaro ye arakeye cyane afite anvelope mu ntoki bisa nkaho yaje guha, ahagaze imbere y'ibiribwa bitandukanye nk'inyanya, ibitunguru, n'ibindi.

Umukobwa uri gusunika akagare yambaye ipantalo y'umukara , inkweto za roza, umupira w'umweru urimo amabara y'umutuku, hirya ye hari akabati karimo ibyo kurya nk'umuceri ndetse n'amasabune.

Umukobwa wambaye umupira w'umutuku ipantaro y'umukara ufite agatebo mu ntoki ze ari kuzenguruka mu isoko rya kijyambere aho hari utubati tugiye turimo amazi amata ndetse n'ibindi byo kurya bitunganyije.

Utubati turimo ibyo kurya byinshi n'ibikoresho ndetse na mudasobwa n'imashini ibara amafaranga ko bigaragara aha bacuruza ibiribwa.

Umugabo wambaye ikote ry'umukara, uhagaze imbere y'udukarito tw'umuhondo duteretseho inkweto nyinshi zitandukanye, uko bisa aha bacururizamo imyambaro.

Inyanya, amashu, karoti, imiteja, puwaavuro biri ahantu ku kimeza bigaragara ko hano Ari ahantu bacuruza imboga n'imbuto.

Utubati turimo amasabune icyokurya kinshi mucyumba kimwe bigaragara ko aha hagurishirizwa ibikoresho byo mugikoni byose.

Umugabo wambaye imyenda y'irabura, usunika agakapu gatukura afashe ku kabati karimo imitobe itandukanye uko bisa aha hacururizwa ibyo kunywa.

Abagabo barindwi n'abagore babiri bahagaze ku murongo, bambaye neza bisa nk'aho wagira ngo ni abayobozi bahagarariye ibikorwa runaka. Bamwe muri bo bambaye amarinete abandi bambaye ibitambaro mu mutwe.

Aba ni abantu benshi bicaye ahantu hamwe higanjemo abagore ndetse n'abagabo, hari umwe muri bo uhagaze wambaye ishati y'umukara irimo uturongo tw'umweru, aho bari hari ubusitani bwiza butoshye bw'icyatsi.

Umugabo wambaye ikote ry'ubururu bwijimye, ishati y'umweru, ipantaro ya shokora, ufite indangururamajwi mu ntoki ze, ahagaze imbere y'abaturage benshi ari kubahereza ibiganiro runaka.

Umugabo wambaye ishati y'umutungo ndetse n'udupfukamunwa ufite icyapa kigaragaza yuko ari igihembo runaka bamuhaye hirya ye hari undi muntoki ze harimo.

Icyapa gisa umweru kiriho inyuguti ziri mu ibara ry'ubururu ndetse n'icyatsi, hirya hakaba hari abantu bahagaze ndetse n'abana bari gukinira ku ruhande, abamama n'ababyeyi bicaye munsi y'umutaka.

Umugabo usa n;ukuze wambaye imyenda irimo ibara ry'ubururu ufite icupa mu ntoki, ari kureba umukobwa muto ufata ibyo kurya abishyira mu ikaroto. Uko bisa bagiye mu isoko guhaha.

abagore batatu n'umusore umwe bambaye udupfukamunwa bari ahantu hari amacupa y'ibyokurya ndetse nama ji.

Umugore uhagaze imbere y'imbuto zitandukanye arizo amacunga, amapavuro, insenda, indimu ndetse n'ibigori.

Umugabo wambaye umupira w'amaboko magufi, ipantaro y'ubururu bwijimye, ari gusunika akagare, ashyiramo ibikoresho byo mu rugo, inyuma ye hari undi uhagaze.

Umumama uri gusunika akagare mu cyumba agenda afata ibikoresho bitandukanye, hirya utubati turimo imbuto, uko bisa aha ni mu isoko.

Ahantu hasa nk'aho hacururizwa ibyo kurya hatatswe n'amabara ya oranje, abagabo bane bahagararanye, umwe yambaye ishati y'umukara, ipantaro y'ivu imbere ye hari akabati.

Akabati karimo ibyo kurya bigiye bitandukanye, hirya hari umuntu wambaye umupira w'umukara, ipantaro y'ivu, inkweto z'umutuku, uko bisa akaba hacururizwa ibintu byinshi cyane, hanze hari imashini itanga amavuta.

Aha hari umusore ukiri muto yambaye umupira w'umweru ndetse n'ipantaro ijya gusa ivu, inkweto z'umukara afite umusatsi mwinshi arimo arahaha amaronji, ari n'agakapu gatukura, hirya hari akabati ndetse n'abandi bantu bambaye imyenda y'ubururu mu birarahure.

Icyumba kirimo amakarito menshi agiye arimo imboga imbuto bigiye bitandukanye uko bisa hano ngaha ni mu isoko ry'ibiribwa.

Aha hacururizwa imboga n'imbuto n'ibyokurya kuko hari utubati turimo imyembe ,imiteja n'inyanya ndetse n'ibindi birungo byo mu mboga.

Umugabo wambaye umupira w'umukara ufite ikintu kirabura, inyuma ye hakaba hahagaze indi, hirya hari ubucupa burimo ji ndetse n'ibikoresho byo mu rugo uko bisa hakaba hacururizwa ibintu bitandukanye.

Umugore wambaye imyenda y'umukara ari gusunika agatebo gatukura, ari kugenda mu isoko rya kijyambere, aho hari utubati turimo imitobe ndetse n'amasabune.

Imitobe igiye itandukanye iri mu macupa iteretse mu tubati twiza tureture hirya hari amakarito arimo amata n'ibindi bindi.